Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, biri mu ngeri zose hari abaganga bane bambaye imyenda y'akazi, ndetse n'udupfukamunwa bose bari kuvura umurwayi umwe urembye, aho akeneye kwitabwaho.

Ivomo rusange aho haza abantu benshi bose bakeneye amazi, hateraniye abana batoya bataye amashuri, bafite ibijerekani byinshi harimo n'ibyo batabasha kuyikorera, si byiza kuvunisha abana kuko byica imikurire yabo.

Umukocye urimo amazi atemba, hari ikivovo bavomeraho, hakurya hari ibyatsi, umwana wicaye hasi ndetse n'umugore uri kuvoma amazi, ashyira mu ndobo ngo abone ayo atwara.

Icyumba cyijimye hicayemo abagore babiri n'abagabo babiri, imbere yabo hari ameza adekoje igitambaro cy'umukara, hateretseho uducupa tw'amazi, mudasobwa ndetse n'amakayi.

Imbaga y'abantu harimo abakuze n'abakiri batoya, bahagaze imbere y'inzu isize irangi ry'ubururu n'amadirishya y'umukara, bafata ifoto y'urwibutso. Bari muri gahunda yo gukangurira abantu kugira ubuzima bwiza.

Abana b'abanyeshuri bari mu kigero cy'imyaka umunani bambaye impuzankano zisa ziri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara aho bari gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune nk'uko babitojwe bakiri bato.

Umugore wambaye ingofero ya ikigina umupira w'ikigina ndetse akinyeye n'igitenge ari kuvoma amazi ahantu habiri. Inyuma ye hari icyapa cyanditseho inisefu aho abana bose bagomba kwiga.

Icyumba kigari cyabasha kwakira abantu ibihumbi bibiri harimo intebe zihagije ndetse n'ameza, hari abanyacyubahiro batandukanye aho hagati yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi n'impapuro.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi benshi, hari umukobwa wambaye ingofero y'umweru, agapfukamunwa, umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, ari kureba mu kanwa akana gatoya ko nta kibazo cy'amenyo gafite.

Abaganga bambaye impuzankano z'akazi bari gufata ifoto bari kumwe n'umugabo w'umuzungu wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, karuvati ndetse n'amadarubindi bafite ibyishimo.

Icyumba gito giteraniyemo abanyacyubahiro batandukanye; harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hari ameza ashasheho ibitambaro by'ubururu n'umweru ndetse n'amacupa y'amazi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ipantaro y'umukara na ncongo, ari gukaraba kuri kandagira ukarabe. Ni byiza ko zishyirwa ahantu hose kugira ngo himakazwe isuku yaba mu ngo ndetse n'ahantu hari ibikorwa remezo.

Umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano, ari ku kigega cy'umukara cyubakiye neza n'isima, aho afite igikombe mu ntoki ari kuvoma amazi yo kunywa.

Icyumba giteraniyemo abagore batanu, umwe wambaye umupira wa oranje n'ijipo iri mu tubara tw'umweru na move, undi yambaye imyenda ya move ari kubasobanurira ibintu bitandukanye, inyuma yabo hari amarido y'ubururu.

Mu muhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'abantu, hari umugore wambaye ishati ya polisi ndetse yambaye n'amadarubindi, afite impapuro mu ntoki ari kugenda ahereza uwo bahuye wese.

Ibyuma birebire biri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, bizwi nka bombone, byongerera abantu umwuka, igihe barwaye indwara zirimo nka Asima ndetse n'izindi zituma umuntu atabasha guhumeka.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, amadirishya ariho giriyaje z'umukara, imbere yayo hahagaze abantu bari gufata ifoto y'urwibutso, iki cyumba akaba ari igikorerwamo inama zitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga harimo igitanda kiryamyeho umurwayi wambitswe imyenda y'ababarwayi, hari umuganga uri kumufata amaraso, ndetse n'undi umuhagaze iruhande afite impapuro.

Umusore yambaye umupira w'ubururu n'agakomo k'ubururu, yashyize umugozi mu ijosi w'umutuku, arikumwe n'undi wambaye ishati y'umweru ufite agakomo k'ubururu mu ntoki, ari kumusobanurira baganira.

Mu mbuga irimo umukungugu yubakishije urugo rw'imiyenzi ndetse hateyemo n'insina, hari agatanda kubitseho amasahane ndetse n'ibikombe, abantu bose bashishikarizwa kukagira kugira ngo bibanze byumuke.

Imigezi itatu, iriho abana b'abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ikaki, bafite indobo ndetse n'akajerekani bari kuvomeramo amazi, bigaragara ko bataye ishuri.

Mu busitani bwo ku kigo nderabuzima hicaye abarwayi benshi. Hari umugore ufite akana gatoya yaje kuvuza, aho umuforomokazi ari kujya abaza uyu mwana icyo arwaye. Uyu mubyeyi yambaye ishapure igaragaza ko ari umukristo.

Ivomo rusange ririho amarobine atandukanye aho uvoma aho ushaka . Hari imbaga y'abantu benshi baje gushaka amazi ni kimwe mu bintu bihangayikisha abantu benshi iyo kitari kubonekera ku gihe.

Ivomo rusange ririho imigezi ine, hari umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'ikuboyi, ahagarikiye umwana mutoya uri kwikorera indobo imuruta kuko ari mutoya cyane.

Icyumba cyo kwa muganga gifite urugi rw'ibara ry'icyatsi harimo umugore uteruye akana gatoya kari hagati y'imyaka itatu n'itanu, umuforomokazi ari kumutera urushinge kugira ngo atahe ameze neza.

Icyumba gitoya cyiganjemo abagabo ndetse n'abagore, hagati yabo hari ameza ateretseho udukombe ndetse n'udusahane, hari kandi porojegiteri iri kwifashishwa mu biganiro byabo bigiye bitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga ahakirirwa abarwayi bose kugira ngo buri wese aze gufashwa na muganga, hari umugore uhagaze ateruye umwana mutoya ndetse afite n'impapuro mu ntoki ari kumuvurizaho.

Umukecuru ugeze mu za bukuru yikoreye ikijerekani kiri mu ibara ry'umuhondo yashyize ku mutwe, iruhande rwe hari abana batoya bagombaga kuba aribo bajya kuyazana akiruhukira.

Icyumba kiri kuberamo inama ahateraniye abantu benshi, kirijimye ntabwo abantu bose bagaragara, imbere hari umugore wambaye ibitenge wicaye ku ntebe yegamirwa, iruhande rwe hari ameza ateretseho amazi.

Ku kigo nderabuzima hari abagore benshi, buri wese afite umwana yaje gukingiza. Ni ngombwa ko bakangurirwa akamaro ko gukingiza, kuko birinda umwana kurwaragurika ndetse agakura neza.

Icyumba giteraniyemo abagore bari kubyina imbyino gakondo, inyuma yabo hari intebe z'umweru ndetse n'ameza yo mu ibara rya kaki, abantu babyina imbyino gakondo bashimisha abatari bake.

Umwana muto yambaye imyenda y'ishuri; ishati yumuhondo nagakabutura k'ubururu. Afite ibikombe bibiri mu ntoki ahagaze ahantu mu gishanga hari ikidendezi cy'amazi.

Icyumba cyo kwa muganga hicayemo umugore wambaye ibitenge by'amabara, ateruye umwana mutoya uri mu kigero cy'imyaka itatu, muganga ari kumutera urushinge yambaye imyenda y'akazi.

Icyumba cyicayemo umugore ukikiye umwana, hari umuforomokazi uri gutera umwana urushinge; akenshi abana baterwa inshinge bafashwe kugira ngo batinyeganyeza.

Abana batoya babiri batambaye impuzankano bicaye mu ishuri, inyuma yabo hari ikibaho cyandikwaho na mwarimu, ndetse iyi nzu yubakishije amatafari ahiye.

Icyumba cyateraniyemo abanyacyubahiro batandukanye, bari kuganira ku nsanganyamatsiko zigiye zinyuranye. Imbere hari ikintu kiri kugaragaza amashusho y'ibyo bari kugenda bavuga.

Imbaga y'abantu ihagaze imbere y'inzu ya etaje, ihagaze iri gufata ifoto y'urwibutso, higanjemo abakobwa ndetse n'abasore bakeya, umwe yambaye ishati y'umweru ipantaro yumukara n'inkweto z'umweru.

Abagore n'abagabo bambaye ingofero z'umweru, imipira y'ubururu ndetse n'umweru, bafite icyapa cyanditseho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura.

Imbuga irimo ibyatsi harimo intebe eshatu zose zicayeho abantu harimo umudaso wambaye imyenda y'akazi imbere hari inzu iriho irangi ry'ubururu imbere hicayemo abantu.

Amazi atemba, iruhande rwayo hari abana babiri, ufite imyaka nk'irindwi ndetse n'uw'imyaka nk'itatu, bafite ibijerekani badubitse muri ayo mazi, si byiza ko abana bijyana ahantu nk'aha bari bonyine.

Umwana muto ufite imyaka umunani yambaye impuzankano y'icyatsi n'agapira k'umweru, ari kuri robine aho yateze ibiganza akaraba, ni byiza gutoza abakiri bato kugira isuku.

Icyumba kicayemo abanyacyubahiro batandukanye harimo abanyarwanda ndetse n'abazungu hagati yabo hari ameza abahuza, ariho uducupa tw'amazi, telefone, amakayi ndetse n'amakaramu.

Abategarugori bambaye bikwije, bari gufata ifoto y'urwibutso imbere y'inzu isize irangi ry'umuhondo ku madirishya, amatafari ahiye ndetse n'amabati ariho parafu, bose harimo abambaye utujiri.

Abagore ndetse n'abagabo, bambaye imipira iri mu ibara ry'ubururu, yandikishijeho amagambo y'umweru, bambaye ingofero zose zisa. Inyuma yabo hari icyapa cya masitakadi ndetse n'inzu iriho irangi ry'umweru.

Ku ivomero rusange ryubakiye neza hari umusore wambaye umupira w'icyatsi n'ikabutura ya kaki ari gukaraba mu ntoki. Iruhande rwe hari indobo nini y'ubururu ijyamo nk'amajerekani atatu. Hakurya hari ibiti byinshi.

Icyumba kirimo abantu b'ingeri zose higanjemo abambaye imipira y'ubururu, hari akameza kariho umwana uryamye ku buriri, ari kwitabwaho n'aba bantu bose, ni ngombwa ko yerekwa ko afitiwe urukundo.

Ivomo rusange ryubakishije isima, hari umwana wambaye ishati ya kaki n'ipantaro ya pinki, aho afite ibijerekani bitatu ari kuvoma. Hirya ye hari urubingo ndetse n'insina.

Umwana mutoya yambaye agapira karimo amabara y'umukara n'ubururu, ndetse n'ipantaro y'umuhondo. Ari kuri robine, ivomo rusange, aho amazi ari kumeneka akayakaraba mu maso, yasetse cyane.

Icyapa kigaragaza Wasake, Ikigo cy'Igihugu gishinzwe kugeza amazi ku baturarwanda bose. Aho ubu ikigereranyo cy'abantu bafite amazi mu rugo kiyongereye kandi bikaba bigikomeza no kuzamuka.

Ivomo rusange rivomwaho n'abantu b'ingeri zose, hari uruvunge rw'abantu benshi, hateretse ibijerekani kimwe kiri kuvaho hajyaho ikindi, inyuma yaho hari umutaka w'ubururu bigaragara ko ucururizwamo amayinite.

Ameza ateretseho ikijerekani kirimo amazi ndetse n'isabune. Aho umuntu wese uhaciye aba agomba gukaraba intoki kuko biri mu bintu bituma tugira isuku ya buri munsi, bikaturinda n'indwara.

Icyumba cyiza kirimo amakaro, amatara abonesha neza, ndetse n'irangi ry'umweru, hicayemo abagore ndetse n'abagabo bari gufata ifoto y'urwibutso, aho inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu.

Icyumba giteraniyemo abantu bagera kuri cumi na batanu, harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye neza bafite ibyo bari kuganiraho ,ni ngombwa gutanga ibitekerezo kuko bifasha mu kubaka ejo hazaza heza.

Ivomo rusange ryubatse mu buryo bugezweho, hari umugabo uri kuvoma, ndetse n'umugore. Iruhande rwabo hahagaze umukobwa wambaye umupira w'umweru, ndetse n'ijire y'umuhondo. Hakurya hari ibiti byinshi.

Igishanga kirimo ibyatsi byinshi, hubatswe robine izana amazi meza, hari abana bane bakiri batoya, buri wese afite agapira, haruguru yabo hari umukobwa wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, inyuma ye haparitse imodoka y'umweru.

Icyumba gitoya gihagazemo abagabo n'abagore bari gufata ifoto y'urwibutso, baravuga uburyo wakoresha mu gukumira no kurwanya gutwita kw'abangavu kutateganyijwe.

Icyumba kirimo abantu bane aho hari abaganga babiri bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari mudasobwa ndetse n'ingofero bari gusobanurira aba barwayi ibibazo bafite.

Imbuga ngari cyane iri gushyirwamo imifuka ipakiye neza, aho biri gukorwa n'abagore ndetse n'abagabo. Abantu bose basigaye bangana, imirimo yose isigaye ikorwa n'abagore cyangwa se abagabo.

Inzu yasenyutse ifite urugi rw'urubaho, hanze hari umusore wambaye isengeri y'umukara n'agakabutura k'umuhondo. Afite indobo ari gukarabiramo, ari kumwe n'akana gatoya.

Ivomo rusange ryegereye umuhanda w'igitaka, hari umwana mutoya uri mu kigero cy'imyaka irindwi, wazanye agapira karindwi kuvoma, hakurya hari urujya n'uruza rw'abantu mu muhanda.

Icyumba cyiza cyane giteraniyemo abanyacyubahiro batandukanye yaba abagore ndetse n'abagabo, hagati yabo hari ameza ateretseho agakombe karimo icyayi ndetse n'amatelefone y'abayitabiriye iyi nama.

Mu ihema ry'umweru harimo abaforomokazi babiri bambaye imyenda y'akazi ndetse n'udupfukamunwa, hicaye umurwayi wambaye ingofero y'ubururu, umupira w'umukara, yicaye ku ntebe y'umutuku bari kumurebera mu kanwa ko nta ndwara arwaye.

Ivomo rusange ahari abana batatu aho bari kumwe n'umukobwa umwe uri gupomba kugira ngo amanuke, hakurya hari guturuka imodoka yo mu bwoko bwa tota ifite irangi ry'umweru ndetse n'umukara.

Icyumba giteraniyemo abana bari mu kigero kimwe, harimo umuforomo uri kugenda abatera inshinge kugira ngo abarinde indwara, umwana agira ubwoba akenshi iyo agiye guterwa urushinge.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa kugira ngo umurwayi avurwe neza akire, hicayemo umugore washinyirije bari gutera urushinge, aho arutinya cyane.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umugore ukekeye umwana uri kurira aho hari umuganga uri kumutera urushinge inyuma ye hari ameza atetseho agakarito karimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'amafishi.

Ikidendezi kirimo amazi menshi, hejuru hari itiyo riri kuvamo andi, aho hari umuntu batezeho ikiganza akaraba kugira ngo agire isuku.

Abaturage b'ingeri zitandukanye bakoraniye hamwe mu kibuga kiri iruhande rw'inzu yubatse neza. Hari amatente yicayemo abanyacyubahiro ndetse n'imodoka imwe iri mu ibara ry'umweru, hari umusaza wicaye ku ntebe y'icyatsi.

Umwana mutoya uri mu kigero cy'imyaka ine afite icupa ry'amazi ari kumena, yambaye agakanzu k'igitenge ndetse imisatsi ye irasutse, si byiza ko umwana aba ari ahantu ari wenyine kuko yahahurira n'ibizazane.

Mu ivomo rusange rivomwaho n'abantu batari bake, harimo abana batoya nibo biganje. BBafite udupira dutoya barasa nabi ntibakarabye bambaye ibirenge bashobora kwicwa n'ibintu bitandukanye.

Abana batoya bari ahantu mu gishanga, ahari ivomo rusange hateretse igipira baje kuvomeramo, umwana umwe yambaye agapira k'umutuku ipantaro y'icyatsi ndetse nta nkweto yambaye.

Ikibuga kinini cyahuriyemo imbaga y'abantu benshi bambaye imyenda iri mu mabara agiye atandukanye, iruhande rwabo hari inzu yubatse muburyo bwiza ndetse n'idarapo riri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umugabo w'igikwerere wambaye amadarubindi, ikoti ry'umukara, ishati y'umweru na karuvati, ari kumwe n'umukobwa mutoya w'inzobe cyane ari kumuhereza igikapu cyanditseho visiti Rwanda.

Icyumba giteraniyemo abaforomo n'abaforomokazi bambaye amataburiya y'ubururu ndetse bafite ibitabo ku bibero byabo bari gusoma abandi bateze amatwi uri kugira ibyo babwira.

Icyumba kirimo amatafari ahiye, ku nkuta hariho ibipapuro byinshi hicayemo abakobwa batatu ndetse n'umubyeyi umwe wifubitse igitambaro cy'ubururu, akenyeye igitenge.

Ku ivomo rusange hateranira abaturage bo mu ngeri zitandukanye, yaba abana, abagore ndetse n'abagabo. Buri wese afite icyo yaje kuvomeramo yaba indobo, yaba n'ikijerekani. Bose baratahana amazi.

Ivomo rusange rivomwaho n'abantu b'ingeri zitandukanye yaba abana, ndetse n'abakuru hari umugore wambaye ishati y'ubururu n'umweru ndetse akenyeye n'igitenge ari kumwe n'akana gatoya yafashe akaboko.

Abana bato b'abanyeshuri, bambaye impuzankano zisa ziri mu ibara rya kaki, bari hanze kuri robine, ahari kugwa amazi menshi, bigishijwe gukaraba intoki, ni umuco batoye.

Mu muhanda w'igitaka utarageramo kaburimbo hari akana gatoya gafite imyaka umunani kikoreye ikijerekane kinini aho hari umugabo uri kumukorera ndetse n'umukobwa uri gufata amafoto.

Abana batoya bicaye hasi, hari ababyeyi bari kubahereza ibikombe birimo amazi babatoza umuco mwiza wo kunywa amazi. Hari n'umupolisi wambaye imyenda y'akazi nawe uri kubigiramo uruhare.

Icyumba gisize irangi ry'umweru n'amarido meza ya kaki, harimo intebe buri wese aricaye ni abanyacyubahiro, hari ameza abateretse iruhande hariho mudasobwa, telefone, uducupa tw'amazi ndetse n'amakayi.

Mu mbuga y'igiturage hari umukobwa wambaye ishati y'umutuku n'ijipo y'umukara yicaye imbere y'ibasi irimo ikijerekani, inyuma ye hari umugozi wanitseho imyenda ndetse mu mbuga harimo n'ibiti.

Ku ivumo rusange rifite imigezi itatu yose izamo amazi, hari umugore wifubitse ibitenge wazanye ibijerekani byinshi byo kuvomeramo, inyuma ye hari ibihuru aho bikeneye gutemwa ngo bitabika imibu.

Akazu gasize irange ry'umuhondo ndetse n'iry'ubururu, ni ku ivomo rusange aho abaturage bose bazana ibijerekani baje kuvoma amazi, harimo abakuze ndetse n'abakiri batoya.

Ikiyaga kigari kirimo amazi atemba, hakurya yacyo hari ibyatsi byinshi harimo umugore wambaye umupira w'umuhondo n'ijipo, afite ijerekani ari kuvomesha, imbere ye hari umusore uri kuhogereza igare.

Ihema rifite ibara ry'umweru, riteraniyemo ababyeyi ba bagore bambaye imipira y'umweru, bicaye hasi bakikiye abana bato, bambaye imipira y'umuhondo, hari umugabo uri kumwitegereza wambaye amadarubindi.

Ibitaro bifite imiryango myinshi ndetse na kandagira ukarabe, hanze hicaye abantu barimo abakecuru, abana, abagore bakiri bato n'abagabo bategereje kubakira.

Imbere y'inzu nziza ya etaje iri mu ibara ry'umuhondo, hahagaze abantu benshi b'abajyanama b'ubuzima bambaye n'imyenda y'akazi, imbere yabo hari umugabo w'umuzungu uri kubasobanurira ibintu byabashimishije cyane.

Umubyeyi w'umugore wambaye umupira w'icyatsi, igitenge kirimo amabara y'umuhondo n'umutuku, ahetse umwana mutoya yatwikirije igitenge, iruhande rwe hari indobo ebyiri ari koza umupfundikizo umwe.

Umuntu wambaye ishati irimo imirongo y'umweru n'iyumukara, hari umuganga umuhagaze iruhande wambaye ga, afite urushinge ari kumutera ku kaboko, abantu benshi bakunze kubitinya ariko bifasha umubiri.

Icyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye, yaba abagore ndetse n'abagabo. Imbere hari umutegarugori wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ikanzu y'umweru uri kubagezaho imbwirwaruhame. Hari ameza ateretseho amashakoshi, terefone ndetse n'amazi.

Mu busitani bw'ikigo nderabuzima, hicaye abagore bari mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu na mirongo ine n'itanu, hari umuforomokazi uri gufasha umwe umwe yamuziritse ikintu ku kaboko.

Ivomo rusange ryubatse mu buryo bugezweho, hariho irangi ry'ubururu, hari abagore bari kuvoma ndetse hatondekanye ibijerekani byinshi n'amagare bari butwareho, inyuma hari ibiti byinshi.

Icyapa kiriw ibara ry'icyatsi kigaragaza uko uburinganire bwari bwifashe mu mwaka w'ibihumbi bin na cumi n'umunani, mu mwaka w'ibihumbibiri na cumi n'icyenda, bibiri na makumyabiri ndetse na bibiri na makumyabiri nari rimwe, aho byiyongeraga uko ibihe bigiye bisimburana.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi benshi aho bakirira ababagana, imbere hicaye abaforomo babiri bafite impapuro nyinshi bari kugenda buzuriza buri murwayi uje kwivuza.

Abagore babiri bicaye mu cyumba kimwe, umwe yambaye umupira w'umukara, ikote ririmo amabara y'umweru n'ay'umukara. Undi yiteze igitambaro cy'umuhondo n'ikanzu y'igitenge. Inyuma yabo hari ibitambaro biri mu ibara ry'ubururu.

Icyapa kiri mu mabara, ubururu, umukara na oranje, hari umukobwa wasetse cyane ufite ibyishimo ufite igitambaro cy'umutuku, aho yamamaza ko kwirinda ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ari aha buri wese.

Abana batoya bambaye impuzankano zisa, bazamuye ibiganza, bafite ibyishimo byinshi. Inyuma yabo hari ishyamba ryinshi, ndetse n'idarapo riri mu mabara y'umuhondo, ubururu, ndetse n'icyatsi.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe zegamirwa, hari umugore wasokoje imisatsi neza yambaye ikanzu y'igitenge afite indangururamajwi mu ntoki, imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa n'icupa ry'amazi.

Abantu bahagaze hamwe bari gufata ifoto, higanjemo abagabo ariko n'abagore si bakeya. Bahagaze ku ma esikariye y'umweru bari gufata ifoto, harimo umugore wambaye agapira k'umweru n'jipo y’icyatsi.

Umukobwa mwiza ufite imisatsi yaziritse yambaye umupira w'umweru yifashe mu mutwe n'agahinda kenshi, iyo umuntu ababaye aba agomba kugira abamwitaho kuko bishobora kumuviramo kuba yakwiyahura.

Umukobwa wambaye imyenda yacikaguritse ndetse n'umusatsi udashokoje afitwe mu maboko n'umugabo wambaye ishati afite n'inkoni mu kiganza ndetse n'undi mugore ufashe ku rundi ruhande aho afite ibibazo by'uburwayi.

Umunsi wahariwe gutera ibiti aho abantu bambaye imipira y'ubururu n'amapantaro y'umukara bitabiriye kubitera ahantu hagiye hatandukanye ndetse nyuma bafata n'ifoto y'urwibutso.

Icyumba cyicayemo umugabo wambaye ishati ya kake wihebye cyane yifashe mu maso ari kumwe n'umukobwa uri kumuhumuriza. Umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe iyo atabonye uwo aganiriza byamuviramo no kwiyahura.

Abana bakiri bato bari mu kigero k'imyaka itanu ndetse n'icumi, bambaye imyenda isa nabi kandi yacitse, bamwe muri bo bafite utujerekani bagiye kuvoma, inyuma yabo hari imirima irimo ibyatsi.

Umusore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu yambaye ishati y'igitenge izwi nk'iy'abagore, yegamiye igikuta yihebye cyane, iyo wumva uri wenyine uba ugomba kwegera abandi.

Icyapa cyanditseho urwego rw'igihugu rushinzwe ubuzima mu Rwanda, aho ari umunsi wo kwizihiza ubuzima bwo mu mutwe, mu kwezi kwa cumi na kumwe, itariki icumi, aho buri Munyarwanda wese arebwa n'iyi gahunda.

Icyapa kiriho umuntu ushushanyije kigaragaza ko ari ikigo gishinzwe ubuvuzi bwo mu mutwe harimo abanyeshuri bari kubyigira ari umuryango wabo ni abo kwitabwaho n'abarwayi bo mu mutwe.

Umugabo ukuze cyane yambaye umupira w'umutuku n'agakabutura k'ikoboyi yambitswe amapingu n'abashinzwe inzego z'umutekano yashungerewe n'abantu benshi aho bibaza ibyaha yakoze.

Urubyiruko rwambaye imipira y'ubururu n'amapantaro y'umukara, kaki ndetse n'umweru, bari gufata ifoto bari kumwe n'umugabo wambaye ishati y'umweru, karuvati, ipantaro y'umukara ndetse na congo.

Umusore mu maso ye hajengamo amarira ndetse yatangiye no gutemba ku matama, ni byiza ko niba umuntu afite agahinda gakabije, yegera umuntu yizeye akamuganiriza kuko bishobora kumuviramo ingaruka mbi abyihereranye.

Umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu irimo n'amabara y'umweru, yicaye ku ntebe y'urubaho, ari kuganirira undi wambaye umupira w'umukara ndetse na maherena, ni byiza kugira uwo muganira kuko biruhura.

Ikimodoka kinini kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho ko bagiye gusohora ubuzima bw'indwara zo mu mutwe mu karere ka bugesera. Hari abaturage benshi ndetse n'intebe hubatswe n'amatente.

Abagore bane bicaye ku ntebe y'urubaho, imbere yabo hari umugabo wicaye wenyine, yambaye umupira w'umukara, ipantaro y'ikaki, ndetse n'inkweto zifunguye. Bose bamuhanze amaso.

Abana bato bari mu kigero cy'imyaka itanu n'icumi, bicaye mu cyumba kimwe bafite akanyamuneza mu maso, bose barishimye. Ni abo kwitabwaho kuko ari ab'agaciro mu muryango nyarwanda.

Umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe, akenye igitenge afite ibikarito mu ntoki ndetse yicaye muri rigore ijyana amazi, ni byiza ko niba umuntu afite ikibazo yegerwa n'abantu.

Umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe yiziritse ibintu byinshi bimuremereye harimo ibyenda bisa nabi, ibikapu, amarinete, ingofero n'ikindi cyuma mu ntoki. Ari ahantu hasa nabi bigaragaza ko akeneye kwitabwaho.

Icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi, hariho abantu babiri b'abaganga, handitseho umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Imbaga y'abantu benshi yiganjemo abambaye imipira y'icyatsi ndetse n'amakote y'umukara, bafite icyapa imbere yabo cyanditseho kurwanya ihohoterwa ko ari inshingano yanjye, bafite kandi indangururamajwi.

Abana bato b'abanyeshuri bambaye impuzankano z'umuhondo ndetse n'udutambaro bishyize mu mutwe, baraganirizwa ku birebana n'ubuzima aho iyo bigishije abana bibafasha gukura bafite ubumenyi.

Umwana w'umusore uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri, yambaye umupira w'umukara yegamiye igikuta kimanitseho udukarito, yipfutse mu maso afite agahinda kenshi, ni byiza ko niba umuntu ababaye yegerwa, akaganirizwa kuko byamuviramo kwiyahura.

Mu muhanda wa kaburimbo usa naho ushaje hari igikamyo kinini kiririmo mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umukara, i ruhande rwacyo hahagaze umugabo wambaye umupira wacikaguritse, ipantaro ndetse n'inkweto zishaje cyane, afite ibintu byinshi mu ntoki bigaragaza ko ameze nk'umusazi

Abagabo bakuze ndetse n'abagore bahagaze imbere y'icyapa cy'umuhondo, bafite seritifika mu ntoki bari kwifotozanya bafata ifoto y'urwibutso, bahagaze ahantu hari amapave ndetse n'ubusitani bwiza.

Umugabo uri mu myaka mirongo ine kuzamura yambaye ishati y'umweru afite indangururamajwi yitwa Uwihoreye Calixite akaba ari umuganga ufasha mu bijyanye n'indwara zo mu mutwe aho abitaho buri munsi.

Umugore wambaye agapfukamunwa ahetse umwana ndetse iruhande rwe hahagaze n'undi uri mu kigero cy'imyaka itanu hari imbabura iteretseho isafuriya bigaragara ko atekeye aba bana be.

Umugabo ubyibushye cyane, yambaye ikote, ishati na karuvati ndetse n'ipantaro. Ahagaze ku rwibutso, ahari urutonde rwabantu benshi bishwe. Imbere ye kandi hari ururabo rurerure.

Umukobwa ufite imisatsi myiza y'umukara yambaye shenete mu gatuza agasengeri k'umukara n'ipantaro y'ikoboyi yagunnye amaguru. Afite udukomo ku maboko yicaye mu ntebe iboheshejwe mu Kinyarwanda.

Abagore bari mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu na mirongo ine bose biteze ibitambaro mu mutwe, bambaye imipira ndetse n'ibitenge, bafite n'intoki mu kiganza, umwe ahagatiye umwana ari konsa.

Umugore ufite imisatsi miremire, wambaye ishati y'igitenge afite indangururamajwi ari kugira ibyo ageza ku bamuteze amatwi, yicaranye n'umugabo wambaye umupira w'umukara imbere ye hari ishakoshi.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, yiteze igitambaro cy'umweru n'urunigi mu ijosi, nta yindi myenda yambaye. Ni byiza ko abantu bakuze bagira ababitaho kugira ngo batumva bari bonyine.

Icyumba cyateraniyemo imbaga y'abantu benshi bagera mu ijana higanjemo abagore n'abagabo bari kuganirizwa ku nsanganyamatsiko zitandukanye, hari uwambaye amarinete, umupira w'umukara, ndetse n'igitenge.

Icyumba kigari cyabereyemo inama buri wese yicaye ku ntebe ye yegamirwa y'umukara, imbere ku gikuta niho hari ibyo bari kubigisha, hari kandi tereviziyo yo mu bwoko bwa furati.

Umugore wambaye agapira k'umuhondo ndetse n'igitenge na kamambiri z'umukara n'umutuku, yicaye ku musambi wa kinyarwanda, yambaye umapingu ku kaguru, aziritse ku giti, yakoze ibyaha bihanirwa.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine, umusatsi wamurabiyeho yicaye mu ipine hagati ndetse yambaye imyenda yacikaguritse, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Imbaga y'abantu benshi bahagaze mu bucucike ahantu hamwe bafata ifoto y'urwibutso aho biganjemo abapolisi bacunga umutekano wo mu muhanda, inyuma yabo hakaba hari ibiti.

Icyapa kiriho urwego rw'igihugu rushinzwe ubuzima cyane cyane serivise zihabwa abantu bafite ibibazo byo mu mutwe. Hariho amabara y'ubururu, umuhondo, oranje ndetse n'umutuku.

Urwego rw'igihugu rushinzwe ubuzima mu Rwanda rwateguye umunsi wo kwizihiza ubuzima bwo mu mutwe baganira ku bibazo bitandukanye, hari abanyacyubahiro batandukanye bafite ijambo bashaka kugeza ku bitabiriye.

Imbaga y'abanyacyubahiro batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye neza, bamwe baricaye abandi bahagaze bigaragaza ko bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari inzu iriho amadirishya ndetse n'inzugi.

Umudamu w'inzobe ufite imisatsi y'umukara iruhande rwe hari amenyo bari kumushyiriramo kubera ko andi ari impingikirane ni byiza kugirira amenyo yawe isuku kuko bizakurinda ingaruka zigiye zitandukanye.

Abana b'ingimbi n'abangavu bicaye ku ntebe zegamirwa, inyuma yabo har’abaganga bari kubavura indwara zo mu kanwa, bose bambaye imipira y'icyatsi yanditseho tubiteho.

Umwana ukiri muto uri mu kigero cy'imyaka umunani yasamye abaganga bari kumukora mu kanwa bamurebera ko nta ndwara afitemo, ni byiza ko ababyeyi bashishikariza abana babo koza amenyo igihe bamaze kurya ndetse n'ikindi gihe cyose.

Umusaza uri mu za bukuru yambaye agapira k'icyatsi, yegamye ku gatanda ko kwa muganga hari umuganga uri kumufasha mu bi bigendanye n'indwara zo mu kanwa, ni byiza ko wisuzumisha hakiri kare.

Icyumba giteguye neza cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye aho bikoreshwa n'uwabyigiye, hari umuforomo wambaye imyenda y'akazi ndetse n'agapfukamunwa k'umweru ari kwandika ibintu ku rupapuro.

Icyumba cyo kwa muganga cyicayemo akana gatoya gafite imyaka irindwi kambaye agapfukamunwa hari abaforomo bakari iruhande bareba niba nta kibazo cy'indwara zo mu kanwa afite.

Umwana mutoya ufite ibyishimo afite uburoso bw'amenyo agiye kuyoza. Ni byiza ko ababyeyi batangira gushishikariza abana babo bakiri batoya kugirira amenyo yabo isuku.

Umubyeyi w'umugore ari kumwe n'akana k'agakobwa ,bose bambaye udusengeri tw'umweru ,uyu mumama ari gufasha uyu mwana amwigisha uko boza amenyo afite uburoso bw'umutuku naho umwana afite ubw'umweru.

Umurwayi uryamye ku gatanda imbere ye hari umuganga wambaye ga mu ntoki imyenda y'akazi ndetse n'agapfukamunwa afite ibikoresho ari kwifashisha akura amenyo uyu murwayi. Igihe hari iryinyo rigize ikibazo ni byiza kwihutira kujya kwa muganga.

Umukobwa mwiza ufite imisatsi myiza yambaye ikanzu y'umweru, afite uburoso mu ntoki ari koza amenyo ye, abantu bose bashishikarizwa kugira isuku y'amenyo yabo.

Umwana mutoya uri mu kigero cy'imyaka itanu, ari koza amenyo akoresheje uburoso na korogate, ni byiza ko ababyeyi batangira gukangurira abana babo bakiri batoya kugira isuku y'amenyo kuko bibarinda kurwara.

Umusore ufite akanyamuneza mu maso yasamye abumbuye akanwa cyane aho iruhande rwe hari umuforomo wambaye udupfukantoki uri kumurebera mu menyo ngo abone ko nta kibazo kirimo.

Mu cyumba cy'ishuri hari abaganga baje kwigisha abanyeshuri, ibigendanye n'ubuzima bw'indwara zo mu kanwa. Umunyeshuri wambaye agapira k'icyatsi, bari kumusobanurira bifashishije igishushanyo cy'amenyo.

Umusore ufite akanyamuneza mu maso yambaye ishati ya karokaro ariku n'umuforomokazi wambaye ga kugira ngo atandura uri kumwereka uburyo yakwita ku menyo ye akagira ubuzima bwiza.

Mu kigo cy'amashuri, mu ishuri rimwe ryatoranyijwe hari abaforomokazi, bari kwigisha abanyeshuri ku bijyanye n'indwara zo mu kanwa. Aho kutibosa buri munsi bishobora gutera ingaruka.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umuhondo biga mu mwaka wa gatanu bari mu kigero cy'imyaka icyenda bazamuye ibiganza byabo n'ibyishimo byinshi bafite biswi.

Icyumba kirimo abaforomo ndetse n'abarwayi, hari umukobwa wambaye isengeri wicaye ku ntebe bari kurebera mu kanwa ko afite uburwayi bw'amenyo, ngo ahabwe imiti yitabweho hakiri kare,

Umusore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu, afite umusatsi w'amaderede kandi ari kumwe n'umuganga uri kumwigisha uko bakoresha urudodo boza amenyo.

Icyumba bavuriramo abarwayi hari umuganga wambaye agapfukamunwa, indorerwamo z'amaso, itaburiya n'umupira ari kwita ku mugore ari gukura amenyo; aho yazanye amaraso menshi mu kanwa.

Abana batoya bari mu kigero cy'imyaka irindwi ni icumi bafite udukombe turimo amazi n'uburoso bwo koza amenyo bose barabikora babyishimiye kuko babitojwe hakiri kare.

Umugore ufite ibiro byinshi, imisatsi y'umweru wambaye isengeri y'ubururu ,ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto zifunze, yicaye mu cyumba ari mu myitozo ngororamubiri, hari abantu benshi batekereza ko umuntu ufite ibiro byinshi atashobora gukora siporo.

Umusaza ugeze mu za bukuru w'imvi z'uruyenzi yambaye ishati y'ikake, imbere ye hari ameza arambitseho igitabo ndetse n'amakaramu n'utundi dukaye dutoya ari gusoma.

Icyumba gitatse neza cyicayemo umusaza n'umukecuru b'imvi z'uruyenzi, aho umusaza ari kwereka muri telefone ibintu bigiye bitandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho ikirahure n'uducupa.

Umusaza w'imvi z'uruyenzi, yambaye amadarubindi ekuteri mu matwi, afite ibintu mu ntoki, yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, ari mu myitozo ngororamubiri, aho bifasha abakuze kwitabwaho, ndetse bakaguma bafite ubuzima bwiza.

Icyumba cyicayemo abantu bari mu za bukuru higanjemo abo mu idini rya isiramu. Hari umukecuru ufite ikibo ari kuboha ibya kinyarwanda ndetse abandi bamuhanze amaso.

Icyumba batakishije ibitambaro biri mu mabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo hari abantu benshi bafite ibyishimo kandi bambaye neza. Umugore umwe afite igikapu ari guhereza mugenzi we.

Icyumba cyicayemo umukecuru uri mu zabukuru, ari kumwe n'abakobwa bari kumufasha kumwenyura, aho bari gukina ikarita kugira ngo iminsi yicume, umukobwa yambaye agapira k'umutuku.

Umukecuru udafite umusatsi yambaye amaherena, agapira k'icyatsi ndetse yifubitse nuw'umweru, afite ikirahure cy'amazi mu ntoki ndetse n'ibinini agiye kunywa, ni byiza gufatira imiti ku gihe kuko bituma ukira vuba.

Abakecuru batatu b'imvi z'uruyenzi, umwe yambaye umupira w'umuhondo, undi uw'umweru ndetse undi yambaye uw'ubururu, bafite telefone bari gufata ifoto imbere yabo.

Umusaza w'imvi z'uruyenzi yambaye ishati irimo uturongo tw'umukara n'utw'umweru, umuforomokazi amufashe ku rutugu amwigisha kugendera mu kagare kuko yahuye n'ibibazo by'uburwayi.

Umusaza w'imvi z'uruyenzi yambaye umupira w'ubururu n'agakabutura k'umukara. Ari kumwe n'umuforomokazi wambaye iby'umukara uri kumufasha gutambuka kugira ngo amagufwa ye yongere akomere.

Umuryango ufite akanyamuneza kenshi, aho harimo umusaza umwe w'imvi z'uruyenzi, abagore babiri ndetse n'utwana tubiri dutoya, umuryango wishimye ni ryo terambere ry'igihugu.

Umusaza uri mu zabukuru yambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro yicaye mu kagare k'abafite ubumuga. Iruhande rwe hari umuforomokazi wambaye imyenda y'akazi uri kumuganiriza yishimye. Ni inshingano za buri muganga wese kwita ku murwayi.

Mu ihema ritatse neza hicayemo imbaga y'abantu barangajwe imbere n'umukecuru n'umusaza bakenyeye bya kinyarwanda. Mu bukwe haba harimo abantu b'ingeri zitandukanye kandi bambaye neza.

Icyumba cyiza gisize amarange y'umweru kirimo n'amatara abonesha neza hicayemo umugore uri kumwe n'umwana mutoya uri mu kigero cy'imyaka itanu, bari gufatanya kubara udupapuro turi ku meza.

Imbuga irimo ibyatsi byinshi, aho hari umuryango uyicayemo ndetse n'umukecuru uri kuboha igikapu akoresheje uburyo bwa kinyarwanda butazwi n'abantu benshi.

Icyumba gisize amarangi meza hicayemo umusaza wambaye amadarubindi n'umupira w'umweru, ari kumwe n'umuhungu wambaye ishati ya karokaro, bafite igitabo bari gusoma.

Icyumba giteraniyemo abakecuru n'abasaza bari mu zabukuru, hari abicaye ku meza amwe barebana mu maso bafite akanyamuneza, uwo musaza hari umusore uri kumusunika mu kagare.

Umugore wambaye ishati y'umweru, ikote ry'ikaki n'ipantaro y'ikoboyi afite igikapu mu ntoki, ahetse ikindi. Ari kumwe n'umugabo wambaye furari, ikote ry'umukara ndetse n'ipantaro ya kaki.

Mu gahanda gatoya karimo amapave yashaje, haragendamo umusore wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara, ufashe ku rutugu umusaza wambaye ingofero y'umweru, ishati y'umweru, isaha ku kaboko, n'ipantaro y'umukara.

Abantu bicaye hamwe harimo abakuze ndetse n'abatoya buri wese afite intebe ye, bakoze uruziga bicaye munsi y'igiti gifite amashami maremare, hakurya yabo hari utuzu dutoya.

Ikibuga cya basketi kirakiniramo umusaza ndetse n'umwuzukuru we. Umwana mwiza cyane ufite baro mu ntoki. Ababyeyi bose baba bifuza kugira abuzukuru kugira ngo bibanezeze.

Umugore ugeze mu za bukuru ufite imisatsi itendera yambaye amadarubindi, ishati y'umuhondo, imbere ye hari ameza ateretseho uducupa tw'ibinini agiye kunywa ndetse n'amazi abifatisha.

Umusaza w'imvi z'uruyenzi yambaye amadarubindi, ishati ya karokaro afite telefone mu ntoki; yicaranye n'umugore ukuze wambaye agashati k'umweru, bafite impapuro nyinshi bari gusoma ndetse n'izirambitse ku meza.

Umuganga ufite agakoresho yifashisha mu ijosi yambaye n'imyenda yo mu kazi, ari kumwe n'umukecuru ufite inkoni mu ntoki, abakuze iyo bitaweho bibafasha gusaza neza.

Umukecuru ugeze mu za bukuru, yambaye urunigi mu ijosi, akabodi, k'ubururu yakenyeye imikenyero ya kinyarwanda, afite indangururamajwi iri mu ibara ry'umutuku aho ari gutanga imbwirwaruhame.

Umusaza uri mu zabukuru afite imvi z'uruyenzi, hari umugore uri kumukarabya guhera mu maso kugeza hasi. Niba umuntu ashaje aba akwiye kwitabwaho mu buryo bwose.

Umukobwa mwiza ufite imisatsi miremire yambaye imyenda yimituku arikumwe numusaza wambaye amadarubindi nishati yumweru ufite imvi z'uruyenzi ari kumukoresha imyitozo.

Umugore wambaye agapira ka pinki n'urunigi, ari kumwe n'umusaza wambaye umupira w'umweru, bose bari mu za bukuru, imbere yabo hari ameza ariho ibiryo by'ubwoko butandukanye barya kugirango bagire ubuzima bwiza.

Umusaza uri mu zabukuru w'imvi z'uruyenzi yambaye ishati ya karokaro n'impeta mu rutoki, afite icupa ari kwereka umudamu bicaranye wambaye amadarubindi n'ishati y'umweru ufite mudasobwa mu ntoki.

Umukecuru n'umusaza bageze mu za bukuru bambaye udupira tw'umutuku ndetse bose bafite imvi z'uruyenzi, imbere yabo hari ameza ariho ibinini ndetse n'utundi ducupa n'amarinete hakurya hari terimosi.

Icyumba gisize amarangi y'umweru, hari umusaza ugeze mu zabukuru uri kumwe n'umuforomokazi uri kumufasha kongera kugenda aho yari yarahuye n'ikibazo

Icyumba cyo kwa muganga kitarwariyemo abandi barwayi, hari umugore umwe wambaye imyenda y'abarwayi, ari kugendera mu kagare kugira ngo arebe niba azongera kubasha kugenda neza, hirya ye hari igitanda aryamaho iyo ananiwe.

Umusaza wambaye ishati ya haki, afite igikombe mu ntoki ari kunywa amazi, iruhande rwe hari umukecuru wambaye agapira k'ubururu, ndetse n'igitanda kibari iruhande kiri mu ibara rya kaki.

Icyumba kirimo umusaza w'imvi z'uruyenzi, uri kurya ibiryo biri kumwe n'imbuto ndetse iruhande rwe hari umugore uri gusuka ji mu gikombe.

Icyumba kiza giteguye, hicaye umukecuru uri mu zabukuru wambaye amadarubindi, umupira w'umweru, ari gukata imboga ndetse n'inyanya. Ari kumwe n'umukobwa na we uri kumuganiriza.

Umusaza w'imvi z'uruyenzi yambaye amadarubindi, umupira w'umweru ndetse n'agashati k'icyatsi. Imbere ye hari ameza ateretseho ikayi, afite ikaramu mu ntoki, ari kwandika. Ni byiza gusaza uzi gusoma no kwandika.

Umusaza w'imvizi z'uruyenzi yambaye umupira w'umweru, isaha ku kaboko, ipantaro y'umukara, ari kumwe n'umuforomokazi wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro afite n'indangururamajwi mu ntoki.

Umugore wambaye umupira w’ikigina n’ipantaro y’umutuku, yicaye ku gasambi mu gacaca, ari gukora imyitozo ngororamubiri. Abantu bose bategetswe kuyikora kuko ituma bagira ubuzima bwiza.

Umukecuru w'imvi z'uruyenzi, yambaye agapira k'umukara, ari kumwe n'umukobwa wambaye ikanzu. Bari mu myitozo ngororamubiri, abakuze nabo bagomba gusobanukirwa ko, bakeneye gukora siporo.

Icyumba cyiza cyane kirimo ibikoresho nk'intebe, ameza, amadirishya n'amarido, hicayemo umukecuru w'imvi z'uruyenzi, ari kumwe n'umukobwa bamwenyura.

Icyumba cyiza gisize amarangi y'umweru hari igitanda cyamabara y'umukara gishashe neza, hicayeho umukecuru w'imvi z'uruyenzi wambaye amadarubindi yipfutse mu maso afite igikombe kirimo amazi.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo abarwayi batandukanye, hari umusaza w'imvi z'uruyenzi, wicaye mu kagare k'abatabasha kugenda neza, yambaye umupira wa kake n'akajile. Ari gufashwa n'umuforomokazi.

Icyapa cyanditseho uburyo bwo kurwanya diyabete, aho byahariwe icyumweru cyo gukangurira abantu ububi bwayo, uko yandura n'uko wayivuza hakiri kare ukabasha gukira.

Icyumba cy'inama giteraniyemo urubyiruko rwambaye imipira y'imyeru ndetse n'imikara barigishwa ku nsanganyamatsiko zitandukanye. Imbere yabo hari ameza ariho ikayi ndetse na mudasobwa.

Abanyacyubahiro batandukanye harimo abagore n'abagabo, bicaye mu cyumba kimwe baganira kuko wakwita ku buzima bwawe ndetse ukabugirira n'isuku mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Icyapa kiriho umwana w'uruhinja aho ari mu gihe cyo kwita ku buzima bw'abantu harabura umunsi umwe gusa ngo kwamamaza bitangire guhera ku itariki makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa mbere.

Icyapa cyanditseho urwego rw'igihugu rushinzwe ubuvuzi, aho rufasha abantu bose bafite ibibazo bitandukanye, abamerewe nabi bakamera neza. Nawe niba ufite ikibazo wabagana.

Icyumba cyicayemo abanyacyubahiro batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye neza. Ni ku kirori cy'umunsi wo muri Afurika wo kwizihiza ubuvuzi. Aho abantu bose bishimiye uyu munsi.

Icyumba cyicayemo abana batoya bari kumwe n'ababyeyi babo, barabaganiriza ku bijyanye n'ibibazo umuntu ahura nabyo mu buzima bwo mu mutwe ,aho ari ingenzi cyane kuko bifasha mu gukemura izo mbogamizi.

Umugabo wambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'ikoboyi, ari kumwe n'umugore wambaye neza, bafite icyapa cya RBC cyanditseho ngo twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira.

Umugabo wambaye ikote ry'ikigina n'ipantaro yaryo ndetse na kositime, ahagaze imbere y'abantu, hari indangururamajwi ndetse agafata amajwi, arikugezaho abantu imbwirwaruhame.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abantu benshi bose bicaye ku ntebe imbere yabo hari umuganga wicaye, imbere ye hari ameza n'impapuro nyinshi yambaye agapfukamunwa ari kugenda afasha umwu umwe.

Icyapa cyanditseho uko warwanya virusi itera Sida, aho bizatangira ku wa gatanu ku itariki makumyabiri nicyenda z'ukwa karindwi bibiri na makumyabiri na kabiri saa yine z'amanywa kugera saa kumi n'imwe.

Icyumba kirimo abantu benshi harimo abagabo, abagore, abakobwa ndetse n'abasore. Har’umuganga wicaye uri gufata umuvuduko umukobwa umwicaye iruhande.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe ibijyanye n'ibidukikije, aho uba ku itariki makumyabiri n'esheshatu, z'ukwezi kwa cyenda, mu mwaka w' ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ibidukikije bifitiye akamaro kanini sosiyete.

Urubyiruko ruri mu kigero kimwe rwambaye imipira y'imyeru ndetse bafite ibyapa mu ntoki, bari mu cyumba kirimo amatafari ahiye hasi hakoteye. Ni imbaraga z'igihugu kuko bagifite imbaraga.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu hariho umuganga wambaye akagofero k'ubururu agapfukamunwa ndetse n'imyenda y'akazi aravuga imbaraga ziri mu buvuzi bwo mu rwanda aho bwateye imbere indwara yose waba ufite ivurwa igakira.

Icyumba kigari gitatse amabara meza, cyicayemo abanyacyubahiro batandukanye, buri wese ku ntebe ye. Imbere hari abagore bateze amaboko, babyina imbyino gakondo, ndetse bambaye n'imishanana.

Urubyiruko rwambaye impuzankano y'umweru aho bafite icyapa cyanditseho ngo twirinde kanseri y'ibere, tuyisuzumishe hakiri kare kuko ivurwa igakira.

Icyumba kirimo amatara abonesha neza n'irange ry'umweru, harimo intebe nyinshi zicaweho n'abantu ndetse n'ameza ateretseho uducupa tw'amazi na mudasobwa.

Icyumba kirimo abantu b'ingeri zose, yaba urubyiruko, abagore ndetse n'abagabo, hasi hashashemo umukeka, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, buri wese afite ifoto ari kwifotoranya ayifashe mu kiganza.

Umukobwa mwiza uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu, yambaye agapira k'umukara, ikote ndetse n'ipantaro, afite indangururamajwi mu ntoki. Igitsina gore nacyo cyaritinyutse aho gihagarara imbere y'imbaga y'abantu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaforomo n'abaforomokazi ndetse n'abarwayi babicaye iruhande bari kubafasha. Hagati yabo hari ameza ateretseho ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu gufasha abarwayi batandukanye.

Icyumba cy'inama kiri mu ibara ry'umutuku hasi hapavomesheje isima y'umukara harimo intebe nyinshi zose zicaweho ziri mu ibara ry'umutuku haratangirwa ibitekerezo byakubaka sosiyete.

Ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima kigira gahunda zo kwegera abantu bakabasuzuma indwara zigiye zitandukanye. Hari umugabo wicaye bari gusuzuma indwara yo mu kanwa kugira ngo avurwe hakiri kare.

Icyumba kirimo ababyeyi batandukanye baje gupimisha abana ibiro. Ni byiza ko umenya uko umwana wawe ahagaze, niba akura neza, niba yaragwingiye ukamenya ibyo wakongera kugira ngo amererwe neza.

Inzu nziza ya cadasiteri isakaje amabati y'umutuku ifite amadirishya y'umweru n'igipangu kiriho inzugi z'umukara hari gusohokamo umukobwa wegereye ivaze ririmo amawuwa.

Inzu nziza yubakishije amatafari ahiye y'ikigo nderabuzima cya Gishweru, hari abantu bane, umugore wambaye umupira w'umutuku, n'ijipo, ndetse hari na kizimyamwoto yifashishwa mu kuzimya ahabaye inkongi y'umuriro.

Inzu nziza isize amarange y'umweru n'inzugi z'ibirahure, hejuru harimo purafo ndetse n'amatara abonesha neza. Hasi harimo makaro yo mu ibara ry'umweru ndetse na kaki. Ku ruhande hari ivaze ririmo amawuwa.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe gifite inyubako nyinshi, aho hari aho barwarira, aho bivuriza bisanzwe ndetse n'ahaba hari indembe, hanze hari ubusitani bwiza ndetse n'amapave ari aho bazamukira.

Icyumba kigali kirimo amarangi y'umweru ndetse n'amatara abonesha neza. Harimo ameza y'ubwoko butandukanye ateretseho ibikoresho byifashishwa mu buvuzi harimo abaganga b'ingeri zitandukanye.

Inzu nziza ya etage igeretse kabiri, isize amarangi y'ubururu ndetse n'ivu, hanze haparitse imodoka iri mu ibara ry'umweru. Hari ubusitani buri mu mabara meza ndetse n'igiti cy'umukindo hahagaze abantu benshi.

Amazu meza yubatswe mu buryo bwa kijyambere, iruhande rwayo hari ubusitani bumeze neza bwitaweho ku buryo bukabije, hari utuyira tw'abanyamaguru turi kugendamo abantu harimo n'umwana mutoya.

Inzu nziza isakajwe amabati y'ubururu akaba ariyo ababyeyi babyariramo yubatswe ku bufatanye bw'abantu batandukanye imbere yayo hari abaganga ndetse n'abandi bantu bafata ifoto y'urwibutso.

Abaforomo n'abaforomokazi bambaye imyenda y'akazi ndetse n'udupfukamunwa, bari mu cyumba kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi, bagomba kubihugurirwa mbere kugira ngo babikoreshe babizi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bitandukanye, aho umurwayi umerewe nabi aza akakiryamaho, bakamuvura agataha afite ubuzima bwiza. Bisasishije amashuka ari mu ibara ry'icyatsi.

Ibitaro by'akarere ka Nyarugenge bifite inyubako nyinshi kandi zose zigezweho, hanze hari amabave indabo nziza ndetse hari abantu babiri bambaye imipira y'umweru bari kuhatambuka.

Inzu yubatswe mu buryo bwa kijyambere hasi harimo amakaro meza cyane ndetse n'intebe zifite imisego n'ameza hagati yazo, ku nkuta hari ibishushanyo by'amabara meza ndetse na kamera nyinshi.

Icyumba cyo kwa muganga gihagazemo umugabo wambaye umupira w'ubururu, ipantaro y'umukara ndetse n'umukandara, ari kumanika inzitiramibu ikoranye umuti. Iruhande rwe hari umurwayi uryamye wiyoroshe.

Inzu yubatse mu buryo bugezweho aho ari ikigo nderabuzima cya Shagasha, iyo nzu isize irangi ry'umweru, amabati asize irangi ry'ubururu, hanze hicaye abantu.

Sale nini yo kwa muganga, ahicara abarwayi bategereje kwakirwa na muganga, aho iyo utahiwe, azana ifishi akaguhamagaraho, hari ibipapuro byinshi bigenda bikuyobora aho ugana.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri n'ingeri zose, harimo ibikoresho by'ubwoko bwose aho iyo uje bakwigisha kubikoresha hakurya yaho hari ubusitani buteyemo ibiti byiza.

Inzu nziza yubakishije amatafari ahiye ifite imiryango igiye itandukanyekanya ni ku bitaro bya gihundwe aho bavura indwara zijyanye n'amaso, harimo ubusitani bwiza ndetse hari n'amapave.

Inzu nziza ya etaje igeretse inshuro eshatu hariho icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi n'umweru, hanze haparitse imodoka nyinshi ziri mu mabara y'umukara, hari kandi umutaka w'umu agenti wa Tigo.

Inzu ya etaje igeretse kabiri, ni pharmacy ya peniel, aho akoreramo Murekatete Marie Denyse, umushaka wamuhamagara kuri nimero zero karindwi umunani umunani gatanu gatanu karindwi gatandatu icumi.

Ibitaro bya kaminuza bya chib bifite inyubako nyinshi zigiye zitandukanye, aho udafite umuntu ukuyobora wayoberwa aho uri kujya. Hari idarapo ry'u Rwanda riri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga aharwarira abarwayi hari ibitanda biri mu moko atandukanye bifasha abarwaye kugira ngo batavunika. Hari inzitiramibu zibarinda imibu ndetse n'amarido y'ubururu.

Inzu nziza ya etaje, igeretse inshuro nyinshi, isize amarangi y'ubururu, afite ibirahure byiza cyane. Hari ubusitani burimo ibiti by'imikindo. Hari porotayi iriho amahwa ku buryo ntawabasha kuza kuhiba.

Icyumba cyo kwa muganga aho ari aho babagira abantu bahuye n'ibibazo bitandukanye, iby'imvune, ababagwa babyaye ndetse n'ibindi byose bijyanye n'ibyo.

Ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, byubatse neza mu buryo bugezweho, aho bigeretse inshuro nyinshi, hanze hari amapave ndetse n'ubusitani.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye; nk'ameza, utubati, ibitanda, amashuka, amarido n'amatara abonesha neza, aho umurwayi yitabwaho mu buryo bwose agataha akize.

Ibitaro bya Kigina, aho hari amazu y'ubwoko butandukanye asize irangi ry'ubururu n'iry'umweru, hanze hari umugore uhetse umwana wambaye ingofero y'umutuku umutwikirije agashuka.

Icyumba cyo kwa muganga hicayemo umuganga ndetse n'umurwayi, bari kumutera urushinge ndetse bamuziritse n'ikintu ku kaboko inyuma hari akabati karimo ibikoresho by'ubuvuzi bitandukanye.

Ku bitaro bya Kabutare mu karere ka Huye, ahari abagabo benshi n'abagore babiri, ku kigo cya Isange wani sitopu senta aho iyo wahohotewe ukigana bakagufasha mu buryo butandukanye.

Inzu nziza ya etaje igeretse inshuro nyinshi, hirya yayo hari umunara, hanze haparitse imodoka nyinshi ziri mu bwoko butandukanye, kugira ngo winjireyo ubanza gufungurirwa n'abasekirite.

Icyumba kirimo amarangi meza y'umweru n'amarido ya kaki, hari umugabo uri gutanga imbwirwaruhame ku bipapuro bimanitse imbere. Iruhande rwe hari ameza ateretseho icupa ry'amazi na mudasobwa.

Icyumba gikorerwamo inama cyiza cyane kigaragarira buri wese aho harimo udutebe twiza turiw'i ibara ry'umukara ndetse n'utumezaeza turi imbere ya buri ntebe kandi hakaba harimo n'amatarabonesha neza

Icyumba kirimo amatara abiri gisize amarangi y'umweru harimo utubati turimo imiti igiye itandukanye aho iyo bakwandikiye imiti uza ukayigura hano muri farumasi harimo ndetse n'amakaro.

Icyumba cyiza kirimo imitako gikoye hasi amatara abonesha neza na purafo, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, hari televiziyo ku rukuta aho wanareba ibigezweho.

Urujya n'uruza rw'abagabo bambaye imipira y'icyatsi ndetse n'abambaye indi n'udupfukamunwa bahagaze imbere y'inzu isize amarange y'umutuku ndetse iriho n'amatafari ahiye hirya hari ihema ry'ubakishije shitingi y'umweru ndetse n'inzu isakaje amabati y'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye harimo nka mudasobwa, ibitanda, amashuka, intebe ndetse n'ameza. Byose byifashishwa kugira ngo abarwayi babashe kwitabwaho batahe bamerewe neza.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho aho igeretse inshuro nyinshi, hanze hari i esikariye zizamuka ziyisanga, hari kandi ubusitani bwiza bufite uturabo tw'umutuku.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza gisize amarangi; harimo amatara, inzitiramibu irinda imibu, ndetse n’ ibitanda biryamyeho abarwayi bari kumwe n'abarwaza babo ndetse n'abaganga babakurikirana.

Ibitaro by'akarere Byashyira bifite inyubako nziza igeretse ifite amabati y'umutuku. Hariho inzugi z'umukara ndetse n'amadirishya. Ku ndwara yose waba ufite baragufasha ukamererwa neza.

Ibitaro byitiriwe umwami Faisal, hanze hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda riri mu ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi, mu mbuga harimo abantu bari kugenda babigana.

Abagore bane n'umugabo umwe bari gufata ifoto y'urwibutso, umwe yambaye ikanzu y'igitenge n'agapira k'umweru, umugabo yambaye ishati y'umweru n'ikote ry'umukara, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Imbuga ishashemo amapave, ahandi hapavomesheje isima, hari ubusitani bugiye buri mu bice ndetse hari n'amazu afite irangi ry'icyatsi, hari n'ibigega bishyirwamo amazi.

Ivuriro rya Kigina, rifite inzu nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse na porotayi iri mu ibara rya kaki, hanze hari umugore uhetse umwana, ufite agashuka imbere.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bitandukanye byose biryamyeho abarwayi, umwe yambaye agashati k'umweru karimo uturongo tw'ikigina n'ipantaro ndetse n'amasogisi, ari gufashwa n'umuganga wambaye imyenda y'akazi.

Inzu nziza igeretse kabiri, isize amarangi y'umukara ndetse n'umweru, amadirishya afite ibirahure birebire, hanze haparitse imodoka nziza y'umweru, hahagaze abantu benshi hatangirwa serivisi zitandukanye.

Icyumba kirimo abaturage basanzwe, aho bicaye ku ntebe bateze amatwi umugabo uhagaze imbere yabo uri kubagezaho ijambo yabateguriye kugira ngo bagire icyo batahana.

Inzu nziza ya etaje ikoreramo farumasi yitwa ubuzima bwiza. Ni ngombwa ko niba wumvise ufite ikibazo wayigana bakaguha imiti igufasha, hari ibipupe byamamaza imyenda.

Inzu nziza ya etaje igeretse inshuro nyinshi, hari icyapa kigaragaza ko ari ivuriro rya Sangwa, hari abagabo batatu bahagaze hamwe, iruhande rw'imodoka iri mu ibara ry'umukara baganira.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, aho utabikoresha utarabyigiye. Hari igitanda kiryamaho abarwayi gishashe neza kandi hari ibirahure by'umweru ndetse na tereviziyo.

Ikigo nderabuzima gitanga serivise z'ubuvuzi ku baturage bose kidaheje, hicaye abarwayi benshi harimo n'umumama uhetse umwana, ku gikuta handitseho aho bakirira abagana ikigo nderabuzima.

Inzu yubatswe mu buryo bwa kijyambere ifite amabati asize irangi ry'ubururu ndetse n'amatafari ahiye, akaba ari inzu y'ababyeyi baje kubyara, hanze hari amapave ndetse haranakoteye.

Inzu nyinshi, imbere yazo hari urujya n'uruza rw'abantu, haparitse imodoka hegereye umugore wambaye ishati y'igitenge ndetse n'akamalete.

Inzu nziza yubatswe mu buryo budasanzwe igeretse inshuro ebyiri hanze hari inzira abantu banyuramo harimo abagabo babiri bambaye imyenda y'umweru hakurya yayo hari ibiti byiza bifite amababi atoshye.

Icyumba gikoreramo farumasi harimo akayetageri karimo ibinini byinshi bigewe mu dukarito dutandukanye aho uzana urupapuro wandikiwe na muganga maze ugahabwa imiti ukagenda ugakira.

Icyumba giteraniyemo abantu biganjemo abagore, bambaye imipira y'imihondo, bakenyeye n'ibitenge. Abagabo nabo bambaye imipira ijya gus’icyatsi, bose babana n'ubumuga kuko bicaye mu tugare.

Inzu nziza igeretse kabiri, ifite n'andi mashami hirya no hino, isize irange ry'umuhondo, amabati y'umutuku. Hanze haparitse imodoka nziza ndetse hari n'idarapo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye nka mudasobwa, ibitanda amashuka, n'amarido hari abarwayi bari kwitabwaho n'abaganga, hari kandi pubeli ishyirwamo imyanda.

Imbuga irimo amazu menshi agiye ari mu mabara atandukanye, afite amabati asize irangi ry'ubururu n'iry'umutuku, harimo ubusitani butandukanye n'indabo z'imikindo, hakurya hari ishyamba ryinshi.

Umuforomo w'umugabo wambaye imyenda y'akazi iri mu ibara ry'ubururu, ku meza hateretseho mudasobwa ndetse na kashe, hari kandi ibyo ari kwitegereza kugira ngo amenye indwara neza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo mudasobwa, telefone, ibikoresho byifashishwa mu kureba indwara umurwayi afite, aho baba bitaweho ku buryo bushoboka.

Icyumba cyiza kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga nk'ameza intebe ibitanda mudasobwa ndetse na camera zifata amashusho, harimo ibintu byinshi aho utarabyigiye utamenya ibyo ari byo.

Ibitaro bya Rwamagana bifite inyubako nziza ziri mu mabara atandukanye, aho icyo ushaka cyose bakuyobora, imbere yayo hari abantu bari gufata ifoto y'urwibutso.

Inzu nziza ya etage igeretse inshuro nyinshi imbere yayo hari igipangu gisohokamo imodoka nziza ifite amarangi yumukara hicaye umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro ya kaki.

Abaforomokazi batandatu bambaye imyenda y'akazi iri mu ibara ry'ubururu ndetse bose bambaye udupfukamunwa. Ni bamwe mu bagira uruhare mu kunganira igihugu cyacu mu buvuzi.

Abaganga batatu umuhungu umwe n'abakobwa babiri, bose bambaye imyenda y'akazi ndetse ga mu ntoki, imbere yabo hari ibikoresho byifashishwa mu kuvura ndetse hari n'umuti bakaraba mu ntoki.

Inzu nziza ya etaje igeretse kabiri, hanze hari parikingi ijyamo imodoka nyinshi yaba iz'abantu ku giti cyabo ndetse n'ibangukiragutabara zifashishwa bakura abarwayi ahantu hamwe babajyana ahandi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byose nk'amatara, ibitanda bishashe neza kandi byagiriwe isuku, ameza bashyiraho ibikoresho, intebe abarwaza bakwicaraho ndetse n'ibindi byifashishwa mu kuvura.

Inzu nziza ya etage igeretse inshuro nyinshi isize amarangi y'umuhondo ifite na bariko ku muryango naho ababyeyi n'impinja baba bari nyuma yo kubyara.

Umusaza ubana n'ubumuga yicaye mu kagare kamufasha kugera aho agiye ndetse n'umwana mutoya uri kumusunika bari kugana ahantu hari ibitambaro by'amabara y'umweru ndetse n'icyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye nk'ibitanda, ibikapu by'abarwayi, igipapuro kiri ku gikuta, supanete irinda umubu, amashuka ari mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Inzu nziza igeretse kabiri isize amarange y'umweru, kandi yubakishije amatafari ahiye. Hariho ibirahure byiza kandi hanze haparitse imodoka nziza isize amarange y'umukara.

Icyumba kirimo abantu batanu, abaforomokazi babiri bambaye imyenda y'akazi, umugabo n'undi mugore bicaye bari kwandika ibintu. Hirya hari umugabo bari gutera urushinge ubona ko yambaye n'amadarubindi.

Icyumba cyiza cyo kwa muganga harimo umuforomo wambaye ingofero y'umweru, umupira w'ubururu na ga mu ntoki, ari koza umwana mutoya ukimara kuvuka aho yamuryamishije mu gatanda k'abana bato.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho, iriho amarangi ya oranje ndetse n'umweru, hanze hari ubusitani bwiza, hahagaze abaforomokazi bane bambaye imyenda y'akazi, bambaye n'udupfukamunwa.

Inzu ya etaje igeretse inshuro nyinshi, hanze haparitse imodoka iri mu ibara ry'umukara, hari kandi akazu ka emutiyeni kari mu ibara ry'umuhondo, hanze hari icyapa kigaragaza ko ari kwa Nyirinkwaya.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe, ameza, ibikarito birimo imiti, ameza n'ibitambaro, hari umukecuru uri mu zabukuru wicaye mu kagare k'abafite ubumuga yitabwaho n'umuganga.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bihagije nk'amatara abonesha mu mpande zose, inkuta zisa neza zisize irangi ry'umweru ndetse n'ibitanda biri mu bwoko butandukanye n'amarido akingira abarwayi.

Inyubako nyinshi zubatswe mu buryo bugezweho, zisize amarange y'umweru, zisakaje amabati y'umutuku, hari ubusitani bwiza butanga akayaga, hanze hicaye abantu baje kwivuza indwara zitandukanye.

Icyumba cyubakishije amatafari ahiye hariho imiryango iri mu'ibara ry'umuhondo, ku ntebe iri hanze hicayeho abantu baje gushaka serivisi kuri iyi nyubako.

Inzu yubatse mu buryo bwa kijyambere, iriho amatafari ahiye ndetse n'irange ry'umweru. Ni Ikigonderabuzima cya Rwerere, hari ubusitani bwiza bufasha abahagenda kuruhuka neza.

Inzu isize amarangi y'umweru, ifite amabati asize irangi ry'ubururu, hanze hari amakaro, akaba ari inzu y'ababyeyi babyariramo.

Remera rukoma hari inzu ya isange wanu sitopu senta aho ifasha abahuye n'ibibazo by'ihohoterwa kubikemura hari kizimyamwoto yifashishwa mu kuzimya ahabaye inkongi y'umuriro.

Inyubako y'ibitaro nyinshi zigiye zitandukanye aho ari ikigo nderabuzima cya Matyazo gifite icyapa kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru, hari abantu benshi bari kujyayo abandi basohoka.

Icyumba cyo kwa muganga hari ibikoresho bitandukanye birimo na mudasobwa, igitanda kiryamyeho umurwayi wiyoroshe ubona ko yarembye, ni byiza kwihutira kujya kwa muganga utarazahazwa n'indwara.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda byinshi byose bishashe neza. Hari inzitiramibu zibarinda imibu kugira ngo batarwara malariya. Hari amarido y'ubururu ari mu madirishya kugira ngo bitabweho ntawe ubareba.

Imbaga y'abantu iri mu myitozo ngororamubiri, harimo abagore, abagabo, abakobwa ndetse n'abasore, ni siporo rusange aho umuntu wese ubyifuza aza agafatanya n'abandi.

Umusore wambaye umupira w'umweru n'ikabutura y'umukara irimo uturongo tw'ubururu n'utw'umweru yashyize akaguru ku musore wambaye umupira w'icyatsi n'isaha ku kaboko ari kumukorera masaje.

Umugabo wambaye agapira ka kaki afite icupa ry'amazi ari kunywa yenda kuyamaramo ni byiza kunywa amazi igihe cyose utagombereye kugira inyota kuko bifasha umubiri wawe kumererwa neza.

Umusore mwiza ufite ubwanwa wogoshe umusatsi, yambaye umupira w'ubururu n'umukufe mu ijosi, afite icupa ry'amazi ari kunywa, byumvikane neza ko abantu bose bagomba kunywa amazi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'umunani, yambaye agasengeri k'umweru na oranje n'ipantaro y'umukara ari mu myitozo ngororamubiri, hirya ye hari ivaze ndetse no hino aryamye ku gasambi gatuma atandura.

Mu ishyamba ririmo ibiti birebire bifite amashami agaye, harimo urubyiruko rwinshi rwambaye imyenda y'ubururu, umweru ndetse n'umukara, hari umusore wambaye umupira w'umuhondo uteruwe mu maboko na ba kuruwaruje bashinzwe gufasha abantu.

Ibipfuko biri mu mabara y'umutuku, umukara n'ubururu byifashishwa n'umuntu wahuye n'imvune igihe yari ari mu myitozo ngororamubiri, bikabasha kumufasha.

Hari uburyo bwinshi wakoramo siporo, kandi bikagirira umubiri wawe akamaro, abantu benshi ntabwo bazi uburyo butandukanye bakoramo imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa muremure w'inzobe wafunze imisatsi neza, yambaye amaherena, agasengeri k'umukara n'ipantaro y'umukara, afite icupa ry'amazi ari kunywa bigaragara ko yumvise neza ko kunywa amazi ari ubuzima.

Umusore wambaye isengeri y'umukara ndetse n'inkweto ari gukora imyitozo ngororamubiri abahanga mu byubuzima bagira abantu bose inama yo kugerageza uko bashoboye bagakora siporo.

Uducupa turi mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara harimo imiti ifasha mu kugabanya ububabare, igihe cyose utameze neza urabikoresha aho kugira ngo ukomeze kuribwa kandi birafasha rwose.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, yambaye agapira k'umukara ndetse n'ipantaro. Ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho ifasha ubuzima bwe kumererwa neza. Iruhande rwe har’icupa ririmo amazi.

Umukobwa ukiri mutoya yambaye isengeri y'umukara ndetse n'ipantaro ya kaki, yicaye ku gasambi aho ari mu myitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari icupa ry'amazi ndetse na mudasobwa.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru afite ikintu cy'umutuku mu kiganza, iruhande rwe hari kizimyamwoto, iri mu ibara ry'umutuku, yifashishwa mu kuzimya ahabaye inkongi y'umuriro.

Ameza y'umweru ariho kokombure, ironji rikasemo kabiri, pome ndetse n'urutoryi, hariho kandi imetero yifashishwa n’abatayeri igihe bari gupima umuntu, bashaka kumenya ikigero cy'umwenda bagiye kudoda.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye hari umugabo wambaye ishati y'umutuku ufite mudasobwa imbere ye hirya hari lavabo yifashishwa mu gukaraba intoki ndetse n'ibindi bikoresho byinshi.

Icyapa cy'umuhondo kiriho imbuto zitandukanye, harimo pome, puwavuro, ironji ndetse na kokombure, hateretse kandi igurude inywerwamo amazi, ni byiza gufata imbuto kuko zigira ubuzima bwiza.

Mu kibuga gikoteye harimo abana ba basore, bari mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu, hakurya hari abantu baje ku bafana kugira ngo barebe ikipe iri buze gutsinda ikegukana igikombe.

Umusore wambaye imyenda y'umukara ari mu myitozo ngororamubiri. Ni kenshi abantu bashishikarizwa kujya mu myitozo ariko bakabihindura n'ayo, n'iba nawe utaratangira ni ahawe uyu munsi.

Umukobwa wambaye isengeri, ipantaro y'umukara yakuyemo inkweto, yicaye ku gakeka k'ubururu ari mu myitozo ngororamubiri, wayikora mu buryo butandukanye haba kwicara, kwiruka, kuryama ni'bindi.

Umusore ndetse n'umukobwa bose bafite amazi mu macupa, bari mu myitozo ngororamubiri, aho bamaze kwiruka ibirometero byinshi.

Umugabo uryamye ari kumwe n'undi uri kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza kuko bifasha umubiri kumererwa neza ndetse bigafasha no kugira ubuzima bwiza.

Abagabo babiri umwe wambaye imyenda y'ubururu, undi iy'umweru bari kurwana aho ari mu mikino ngororamubiri izwi cyane nka karate, abantu bayirimo baba bazwiho kurwanisha imbaraga ndetse no mu bwenge.

Abagabo babiri bari mu myitozo ngororamubiri, umwe yambaye umupira w'umutuku, ikabutura y'umukara n'inkweto z'umukara ndetse n'isaha, undi yambaye ipantaro ya kaki ndetse n'inkweto z'umukara.

Icyumba gitoya kirimo agatanda karyamyeho umukobwa wambaye agakabutura n'inkweto zifunze iruhande rwe hari umugabo wambaye umupira wumukara ndetse n'ipantaro uri kumufasha gukora masaje.

Umusore wambaye umupira wicyatsi n'ikabutura y'umukara, afite baro mu ntoki, iri mu mabara y'ubururu n'ikigina, aho agiye mu myitozo ngo azakine neza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, nka vandarateri, ibitanda, purize zicomekwaho terefone, hari umuganga uri kwigisha umuntu wari warahuye n'ikibazo cy'imvune, kongera kugenda.

Icyumba kirimo abaforomo n'abaforomokazi, bamwe bicaye abandi bahagaze, bahanze amaso televiziyo iri gusobanura ibintu bitandukanye. Imbere yabo hari ameza ariho mudasobwa na telefone.

Abasore bari mu myitozo ngororamubiri bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'inkweto, bariruka mu muhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru ndetse ku ruhande hari n'ubusitani bwa pasiparume. Ni byiza gukora imyitozo.

Umugabo n'umugore bari mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, umugabo arahagaze yambaye agashati ka kake ndetse n'ikabutura y'umukara, umugore yicaye bigaragaza ko ananiwe.

Umusore wambaye isengeri y'umukara, agakabutura gato k'umukara, isaha ndetse n'inkweto zirimo amabara y'umweru n'amasogisi ari mu myitozo ngororamubiri, aho yamanitse akaguru ku biti kugira ngo kagororoke.

Umukobwa ufite imisatsi myiza, yambaye agasengeri ka move na ekuteri mu mumatwi, afite gorude ari kunyweramo amazi nabo ntibahejwe bagomba kunywa amazi bakagira ubuzima bwiza.

Umusore wambaye umupira w'amabara arimo aya gisirikare ipantaro y'ikoboyi ndetse n'inkweto z'umukara, ari mucyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga biri mu ngeri zitandukanye aho bikoreshwa n'abantu babyigiye gusa.

Umukobwa ufite imisatsi, yambaye agasengeri k'ubururu ndetse n'agakabutura gatoya k'ubururu, yambaye inkweto zifunze ari mu myitozo ngororamubiri aho n'abakobwa batahejweho.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi benshi ndetse n'abaforomo n'abaforomokazi, higanjemo abambaye amadarubindi ndetse n'udupfukamunwa, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga aho bizi gukoreshwa n'ababyigiye.

Umusore wambaye umupira w'umukara, ipantaro y'ikaki ari mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, ikorwa mu buryo butandukanye hari abiruka, hari abinanura, hari abaterura ibyuma biremereye kugira ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza.

Umusore mwiza wambaye agapira k'ikaki ndetse na ekuteri mu matwi, afite icupa ry'amazi, ari kunywa, ari mu myitozo ngororamubiri, aho bifasha ubuzima bwe kumererwa neza.

Umusore wambaye umupira w'umweru, ikabutura y'ikigina, arikumwe n'undi wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, uri kumuzirika akaguru aho yakomeretse kugirango abashe koroherwa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, hari umugore wicaye ku ntebe ateruye akana gatoya kari gusuzumwa n'umuforomo wambaye imyenda y'akazi yicaye ku ntebe y'umukara.

Akagare gato kari mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu aho kifashishwa n'abantu bafite ubumuga, hakaba haba hari umuntu uri kumusunika kugira ngo bimworohere.

Umusaza wambaye umupira w'umweru, ikabutura y'umukara ndetse n'umukandara umufasha kugenda. Ari gufashwa n'umuforomokazi wambaye imyenda y'akazi. Kongera kugenda nyuma y'ibibazo yahuye nabyo.

Umusore wambaye isengeri y'umukara, ipantaro irimo amabara y'umweru ndetse n'inkweto zifunze, yambaye na ekuteri. Ari mu myitozo ngororamubiri aho arigukora iyo mu mavi igendanye n'amaguru.

Umuforomokazi ufite ibisuko bitangaje yambaye agapfukamunwa, ga mu ntoki, imyenda y'akazi ndetse n'agakoresho yifashisha mu ijosi. Imbere ye hari ameza ateretseho ibitabo, mudasobwa ndetse n'ikaramu.

Umugabo w'igikara afite icupa ry'amazi ari kunywa aho dushishikarizwa kunywa amazi igihe cyose tutitaye ko twaba dufite inyota kuko amazi ari ubuzima.

Ameza ateretseho indabo zitandukanye ndetse n'imbuto nk'imineke, amaronji, inanasi, indimu ndetse n'izindi hariho udutako twambarwa mu ijosi ndetse n'ibinini.

Umuganga w'umugabo wambaye itaburiya y'umwe n'agapimisho bifashisha mu ijosi, hari umurwayi umuri iruhande aho ari kumukandira ikibyimba ku ivi kugira ngo abashe gukira.

Umukobwa wambaye ipantaro n'inkweto zifunze, iruhande rwe hari ingingo nsimburamubiri. Aho zifashishwa n'abantu bafite ubumuga kugira ngo babashe kongera kugenda. Ubu byaroroshye aho wakwifashisha izi nsimburangingo ukabasha kujya ahantu hatandukanye.

Umukobwa w'imisatsi miremire ya kaki yambaye agasengengeri k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, ari mu myitozo ngororamubiri hafi y'ikiyaga kirimo amazi menshi atemba aho habamo n'amafi.

Abana bari mu kigero cy'imyaka umunani na cumi n'ibiri bari mu kibuga aho bari mu myitozo ngororamubiri bafite na ballon ndetse bari kumwe n'umuntu mukuru uri kubafasha kugira ngo hatagira uza kugira ikibazo.

Hari uburyo bwashyizweho wabasha kwandikisha imiti gakondo muri Afurika n'agace kose, ni byiza ko niba ugiye gutangira ugomba kwiyandikisha kugira ngo ibintu ukora bibe bizwi na leta.

Icupa rifite ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, handitseho m na p na o. Uramutse ushaka ibirimo wahamagara zeru, karindwi, umunani, icyenda, icyenda, zeru, kane, icyenda, icyenda, icyenda.

Ikibuga kinini kiri aho binariza imiravumba izwi nk'imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Abantu benshi ntibayivugaho rumwe, bavuga ko itavura ariko abandi bakabyemeza.

Icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi, hariho agacupa karimo umuti wa gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Abantu benshi bagiye bashidikanya ku miti gakondo, ariko byaje kuvumburwa ko ifite akamaro gakomeye cyane.

Igiti cy'isombe gifite amababi atoshye ndetse n'utubuto dutoya, aho ari ikiribwa cyifashishwa n'abatari bake, yaba mu mahoteli, amaresitora ndetse n'abateka mu ngo ku giti cyabo.

Uducupa dutandukanye turi mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, harimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ariko ikomoka ku bimera gakondo, ariyo ifasha abarwayi batandukanye.

Icupa ry'ibara ry'umweru, hariho amagambo yanditse mu mabara y'umutuku ndetse n'ay'umukara, harimo umuti gakondo wakuwe mu bimera, aho uvura indwara zitandukanye kandi urizewe.

Icupa rifite umufuniko w'umutuku ndetse amabara y'umweru, igikakarubamba, hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku, aho uvura indwara nyinshi.

Ibikarito byinshi biri mu mabara atandukanye hari n'inanasi igifite amababi, birimo imiti y'ubwoko butandukanye yakuwe mu bimera gakondo, aho ivura indwara nyinshi zitandukanye.

Icyumba gicururizwamo imiti ya gakondo iri mu bwoko bugiye butandukanye, hari umugore witeze igitambaro cy'umweru ari we ucuruza iyi miti ndetse hari n'umugabo waje abagana.

Igiti gifite amashami atandukanye kizwi nk'umuravumba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, uzwi ko ari gakondo ariko ufasha umubiri utameze neza ukongera kumererwa neza.

Amacupa ane rimwe ry'umweru, irindi rya move, ndetse n'irindi rya kaki, yanditseho infiniti, ni umuti wa gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Igiti gifite amashami n'amababi menshi ni kimwe mu miti ya gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, aho abahanga bamaze kwemeza ko ari inkingi ya mwamba mu kuvura.

Urubuto rw'ipapayi ruri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo harimo imbuto z'umukara imbuto ni kimwe mu bintu bifasha ubuzima bw'umuntu kumererwa neza aho bikiza indwara zigiye zitandukanye.

Tangawize eshatu harimo izikataguyemo uduce twinshi zizwi nk'izivura indwara zitandukanye harimo inkorora, ibicurane, igifu n'izindi nyinshi nawe wayikoresha.

Icyapa cyanditseho umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, akaba ari umunsi wo kwizihiza imiti gakondo muri Afurika; aho ifite uruhare runini mu kuvura indwara zikomeye zigiye zitandukanye.

Icyapa kiri mu mabara y'icyatsi azwi nk'igikakarubamba, hariho amacupa menshi agiye arimo imiti itandukanye yakuwe mu bimera imiti ivura mu buryo bwa gakondo aho ikoreshwa n'abantu benshi.

Ibiti biriho amababi atoshye byifashishwa mu kuvura indwara ariko ni imiti ya gakondo ntabwo yagiye ivugwaho rumwe n'abantu batandukanye bavuga ko ishobora kubitavura ariko byaje kwemezwa ko ikomeye kandi ivura cyane.

Umukobwa wasetse cyane amenyo yose ari hanze, yegeranye n'imiti ya kinyarwanda yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, yaba iz'abana ndetse n'iz'abantu bakuru.

Imbuto z'amaronji ziri mu mabara meza y'umuhondo ndetse n'icyatsi, zirahishije ku buryo wahita utangira kuzirya. Abantu bose bakwiye gufata imbuto kuko zituma ugira ubuzima bwiza.

Icyapa kiriho umugabo wambaye akagofero, hirya ye hari utubati turimo imiti gakondo. Byavuzwe mu makuru ya radiyo Rwanda mu buryo bwo kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo.

Icupa ry'umweru ripfundikiye ryanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku, harimo umuti wa gakondo uvura indwara zitandukanye. Iyo uwemerewe na muganga urawufata ukakugirira akamaro.

Farumasi irimo utubati tugiye dutandukanye aho harimo imiti y'ubwoko bwose, ujya kwa muganga akagusuzuma yamara kumenya indwara urwaye akakohereza kuyigura muri faromasi.

Uducupa twinshi turi mu gikarito cy'ikaki, dufite udufuniko tw'umukara ndetse dusize amarangi y'umuhondo, handitseho amagambo y'umukara ndetse hariho n'igikakarubamba, ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umuravumba ni umwe mu miti ya kinyarwanda yifashishwa n'abatari bakeya mu ndwara zirimo nk'ibicurane, umutwe, inkorora mu nda, ndetse n'izindi nawe wawukoresha kuko urizewe cyane.

Abanyacyubahiro batandukanye, harimo abambaye imipira y'icyatsi isa ndetse n'amapantaro y'umukara, batembereye mu giturage, ahahingwa imiti ya gakondo. Harimo nk'ibikakarubamba, imyenya, ndetse n'imiravumba.

Icyumba kirimo utubati dufite amazi, inzoga, amaji y'ubwoko bwose ndetse na firigo ibasha kubikonjesha ngo biryohe.

Akabati kageretse inshuro eshatu gateretsemo amacupa arimo imiti ya gakondo y'ubwoko butandukanye hakurya y'umuhanda hari ikinyabiziga cya moto ndetse n'inzu ifite amarangi y'umweru.

Icupa rifite umufuniko w'umweru ndetse handitseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi n'umukara, aho harimo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura.

Ishyamba riteyemo imiti myinshi higanjemo umuravumba uzwi n'abantu batari bakeya, aho uvura indwara zirimo umutwe, mu nda, ibicurane ndetse n'inkorora. Birinda kuwuha abana batoya kuko wabazahaza.

Amacupa menshi y'ubwoko butandukanye, harimo ay'icyatsi, ikigina, umweru ndetse n'umutuku, yose arimo imiti yifashishwa mu kuvura mu buryo bwa gakondo. Irizewe cyane kuko ifasha mu kuvura.

Amacupa menshi higanjemo afite imifuniko y'icyatsi ndetse n'ay'ikaki arimo imiti ya gakondo. Ni imwe mu yifashishwa na benshi.

Umurima uhinzemo ibintu by'ibyatsi byinshi cyane, harimo umuravumba bahingiye neza uri ukwawo kuko uvura indwara zitandukanye.

Uducupa dutandatu turi mu ibara ry'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi harimo imiti ya gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye wayikoresha kugira ngo ukire.

Uducupa tune turi mu mabara y'umweru n'icyatsi harimo imiti ya gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Iyi miti igizwe n'ibimera harimo igikakarubamba ndetse n'indi.

Icupa ry'umweru rifite umupfundikizo w'umuhondo, hariho icyapa cyanditseho umuravumba ndetse n'amashusho yawo, n’umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Icupa ritoya rifite umufuniko w'umweru hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara ndetse n'amashusho y'ibara ry'icyatsi. Imiti gakondo n'imwe mu byifashishwa mu kuvura abantu indwara zitandukanye.

Amacupa menshi y'ubwoko butandukanye arimo imiti ya gakondo ariyo twita iya kinyarwanda yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ubwo utirirwa ujya kwa muganga kubera ko iba yakuvuye.

Amacupa ari mu mabara atandukanye nka move, oranje, umuhondo, agiye ariho ibikakarubamba kandi aya macupa ararutanwa, amatoya ndetse n'amanini.

Ibiti bitoshye bikiri bitoya by'imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye mu buryo bwa gakondo, iri kumwe n'ibitoki bikaze ariko bitarashya ndetse n'ubunyobwa butaratonorwa.

Amacupa afite amabara atandukanye harimo icyatsi, umweru, move ndetse n'ubururu, harimo imiti y'ubwoko butandukanye ya kinyarwanda yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Uducupa tubiri turi mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, handikishijeho amagambo menshi, hariho n'igishushanyo cy'igikakarubamba. Imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.